Ivomero cyangwa se isoko y'amazi meza aturuka munsi y'ubutaka, rikoreshwa binyuze mu guhaga cyangwa se gupompa nkuko bigaragara, rero abantu bakaba bari kuvoma.

Abaganga cyangwa se muyandi mazina aba dogiteri bashinzwe kuvura indwara nyinshi zitandukanye, cyangwa kwita ku bantu kugira ngo badahura n'ibibazo by'imibereho, ndetse bakabagira inama z'uburyo bakomeza kwirinda izo ndwara zigiye zitandukanye.

Wold hauve organizaition cyangwa ho mu magambo ahinnye akaba ari ikigo gikorera ku isi yose ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku buzima ndetse zikajya kireba aho bikenewe kikajya gitanga inkunga harimo ibiryo ibitabo ndetse n'ibindi byose bikenewe mu kwifashisha mu mibereho.

Inshinge zimenyereweho guterwa abana batoya, ibi byitwa nk'inkingo zo kubakingira indwara nyinshi bakunda guhura na zo mu gihe bari kugenda bakura, kuko abana bagenda batora utuntu tw'imyanda cyangwa se bakora utuntu twinshi twatuma bandura byoroheje...

Inama imwe zisa n'izimenyerewe cyane mu mvugo ya Gacaca, akaba ari inama y'umudugudu cyangwa se y'abibumbye hamwe, bakaba baganira ku bibazo bafite muri iyo sosiyete cyangwa uko babanye ndetse bagashaka n'uburyo babikemura.

Umukino wa dame cyangwa se chesi mu ndimi z'amahanga. Ukaba ari umukino umenyereweho cyane gukinwa n'abantu bazi ubwenge, kuko usaba gutekereza cyane ukaba ufite n'amarushanwa mpuzamahanga y'abawukina.

Peniel Pharmacy, ni imwe mu mafarumasi cyangwa se imenyereweho nk'amazu usangamo imiti igiye itandukanye, mu gihe wumva udashobora kujya kwa muganga cyangwa se ari indwara idakomeye cyane, ukaba wagura imiti yo kwifashisha muri ako kanya.

Farumasi cyangwa se aho usanga imiti y'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye, aho wayigura uyitegetswe na muganga cyangwa se ukaba wayigura bitewe n'ububabare cyangwa se uburwayi uri kumva budakabije cyane kuba wabujyana kwa muganga, ukaba wagura imiti yo kuba wifashishije.

Farumasi uburyo bwiza bwo korohereza abantu barwaye indwara zidakomeye cyangwa se indwara zidasaba kwihutirwa kujya kwa muganga, aho ugenda ugasaba imiti runaka ukeneye harimo nka parasitomoro, cyangwa se ibindi bindi binini byoroheje

Siporo ikaba ari kimwe mu bigize umubiri w'umuntu ndetse biwufasha gukomeza kubaho neza ndetse ugakora imirimo yose utumva umunaniro n'ibindi byose biguca intege, harimo no kurya imbuto zigiye zifite intungamubiri nyinshi zigiye zitandukanye.

Inkeri, pome, ubunyobwa, amaronji, ifi ndetse n'imboga n'ibindi bigiye bitandukanye n'amazi, akaba ari ibintu bifite vitamini cyangwa inyunganizi z'ubuzima zigiye zitandukanye, ukaba wayifata kugira ngo bigende bigufasha kubaho neza.

Uburyo bwagufasha mu kuguma umeze neza ufite imbaraga, ndetse uyitaho mu buryo bugiye butandukanye, gukora amasiporo; ndetse kugendera wirukanka ku byuma, cyangwa se guterura ibyuma bigufasha kuzana imbaraga, bituma ubuzima bwawe bukomeza kumera neza, ndetse umubiri wawe ukagororoka.

Imirimo ngororamubiri cyangwa se siporo ibyo basanzwe bita egisesizi mu zindi ndimi, bikaba bigusaba kujya mu cyo bita jimu cyangwa se ukaba wanabikorera mu rugo ugorora amaguru ndetse n'izindi ngingo z'umubiri wawe, bigufasha kumererwa neza ukajya ugenda wumva nta munaniro ufite, bigufasha n'amaraso y'umubiri kugenda neza.

Siporo cyangwa se imirimo ngororamubiri, akaba ari ibintu ukora ugenda wita ku mubiri wawe, wiruka cyangwa se uwugorora mu buryo bugiye butandukanye, kugira ngo wirinde indwara nyinshi ziterwa no kwirirwa wicaye cyangwa se iminaniro myinshi.

Imiti ya kinyarwanda nk'uko imenyereweho cyangwa se n'ibindi bihugu bikaba biyigira, akaba ari imiti gakondo, igufasha kuvura ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu buryo bwihuse, harimo inzoka ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye, bitagusabye kujya kwa muganga.

Korogati cyangwa se umuti w'amenyo uburoso cyangwa se agakoresho kabugenewe mu guhanagura amenyo, mu gihe bibuza kwandura indwara zigiye zitandukanye ndetse amakorogate cyangwa se iyi miti ikaba ikorwa mu bwokobugiye butandukanye bitewe n'uburyo bikoreshwa.

Imiti imenyereweho gucuruzwa n'abantu bagiye batandukanye batembera mu mihanda cyangwa se ukaba wayisanga no mu masoko, akaba ari imiti ya gakondo ivura ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo indwara zo mu nda ndetse n'ibindi mu buryo bwizewe kandi.